Umuhanda w'umukara iruhande rwawo hashinze icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu ndetse kiri mu ibara ry'umutuku gifite ubuso bw'umweru, hasi gato yacyo hari akapa gato kagizwe n'ibara ry'umutuku ndetse n'ishusho y'umuntu iri mu ibara ry'umweru ka mpande enye.